Icyapa cy’impande enye gisize ibara ry’umweru kiriho amagambo ari mu rurimi rw’icyongereza y’umukara ndetse n’icyatsi, munsi hakaba hagaragaraho nimero za telefone, ndetse hakaba ashushanyijeho ababyeyi babiri bari kumwe n’umwana bari kwitegereza ikayi.

Umugore wicaye mu modoka afashe vola yambaye agashati gaciye amaboko impande ye hari kugaragara imodoka zibisikana na ndetse n'andi magambo yo mu kinyarwanda agira ati gerayo amahoro, nandi ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyuma kinini gifashe icyapa cy'impande enye kishushanyijeho abantu babiri begereye imodoka ebyiri zitandukanye mubu bunini z'umweru moto ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yegeranye na nimero za telefone ziriho amazina y'abantu batandukanye.

Icyapa gisize ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye, gishushanyijeho umugabo n'umugore bakuze cyane bari kumwe n'umwana ufite igipapuro mu ntoki kuruhande hariho amagambo ari mu ururimi rw'icyongereza ndetse na nimero za terefone.

Ikirenge cyaziritswe ibitambaro cy'umweru, amano akaba ari hanze ndetse n'amagambo "Impanuka ntiteguza, gura turikumwe, ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima". Kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe urwego ndetse ukaba ushobora guhamagara n'indi mibare ishobora kugaragara kw'ishusho.

Ishusho iri kugaragaraho umugabo wicaye ku ntebe ziriho imisego, akaba ari gusoma igitabo cye, afite agakombe mu kuboko kw'iburyo bwe, hariho amagambo ku ruhande yanditse "fata umwanya uhagije wo kwita ku buzima bwawe witegura icyumweru gitaha".

Icyuma kinini gisize ibara ry'umukara gifashe icyapa cy'impandenye gishushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi, akaba afite ikarita mu maboko yombi isize ibara ry'umutuku ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ishusho iri kugaragaraho umudogiteri afite telefone mu ntoki ze i mpande ye hari umukobwa wicaye ku buriri imbere hari amagambo ari mu kinyarwanda agira ati" singombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza.

Umugabo ukuze wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho isize ibara ry'umukara yambaye ishati ipantaro, ndetse akaba afite inkoni mu ntoki ze imbere yari yamagambo agira ati “no mu gihe cy'izabukuru turahagoboka" ndetse na nimero za telefone.

Ishusho iri kugaragara amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati" turi kumwe, gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, kanda imibare yatanzwe ndetse na nimero za telefone" ikaba iri kugaragaramo umugabo n'umugore bicaranye n'abana begeranye.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu iri kugaragaraho umugore uhagaze, akabazamuraye ukuboko kw'iburyo bwe ari gusuhuzanya, ndetse n'ukundi gufashe telefone, impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati "dosiye yawe isaba kwishyura mitiweli ifite koti yo kwishyuriraho yoherejwe neza".

Ishusho iririmo ibara ry'umweru n'ubururu iri kugaragaraho umugore wambaye agakote n'ishati ari gutunga urutoki ku magambo ari mururimi rw'ikinyarwanda agira ati, gura turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima kanda imibare yagaragaye ndetse na nimero ushobora guhamagara.

Icyapa gisize ibara ry'umweru n'ubururu, gishushanyijeho umugore wifashe mu gahanga wampaye agapira k'umuhondo, wegamiye agasego k'impande enye, ku ruhande hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'udutara turi hejuru.

Ishushorimo iba ry'umweru ndetse n'ubururu ishushanyijeho telefone yanditsweho imibare itandukanye impande yaho hariyo amagambo agira ati: " Komeza wizigamire wungukirwe agera kuri kane ku ijana ku mwaka. " Munsi yaho hakaba hari nimero za telefoni zishobora guhamagarwa.

Imodoka ishushanyijeho ibirango byinshi n'amabara atandukanye, iri mumuhanda hafi y'igiti kiri mu busitani inyuma hari abantu bahagaze bari kuyitegereza ndetse n'inzu ifite ibara ry'ikigina.

Icyapa cy'impande enye gisize irangi ry'umutuku umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongerezaba ashushanyijeho inzu imbere ya ari imodoka isize irange ry'umukara munsi yayo hariho nimero za terefone zishobora guhamagarwa.

Ishusho ya telefoni iri kugaragaraho isaha y'i saa tatu na mirongo ine n'umwe, munsi hakaba hariho amazina y'abantu bane, ari bo: Benimana, Rwaka, Roza na Kalisa, munsi y'aya mazina hakaba handitswe imibare ya kode.

I Kanombe mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali urahabona inzu ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda buri kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ibindi bibiri by'ubwogero.

Ishusho iri kugaragaza abantu benshi bari mu kabari, harimo abakobwa babiri bisukishije bahagaze, begeranye akameza kariho ibinyobwa bitandukanye, bari kwitegerereza umukino w'umupira w'amaguru kuri televiziyo nini cyane.

Umukobwa uhagaze ari guseka wambaye umupira k'umukara mu kabako k'iburyo haramo agakarita, ukw'imuso gufite akamashini, kakira amafaranga, imyuma ye hari akabati kabikwamo inzoga z'amoko atandukanye.

Ndi kubona inzu irigukorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ndeste n'icyapa gifite ibara ry'umutuku kiriho amagambo ari mu cyongereza agaragaza ubwoko bw'ikinyobwa.

Ndi kubona icyapa kinini, kiriho amabara menshi, harimo: umutuku, umuhondo, icyatsi, umukara ndetse n'umweru, kiri kwamamaza ikinyobwa k'inzoga.

Ishusho iri kugaragaza akabari kagizwe n'inzoga z'amoko atandukanye zigeretse, icyuma gikonjesha ibinyobwa, ameza ndetse n'intebe, n'amatara azikikije byose kugira ngo atange urumuri rusa neza.

Ndimo kubona akabari gafite akabati kabikwamo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse n'intebe n'ameza abakiriya bicaraho kugira ngo babashe guhabwa serivise.

Ishusho iri kugaragaza inzu ikozwe mu matafari asa ibara ry'umutuku, ikaba igizwe n'ibyuma bibiri bikoresha kugira ngo hakonjeshwe ibinyobwa bitandukanye, aho kunywera, ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho kugira ngo abantu babone uburyo bwo kuruhuka.

Icyapa kigizwe n'ibyuma cyashinzwe hafi n'ibiti byinshi ndetse n'urupangu gishishanyijeho ivide k'uruhande hari ibirahure bibiri byashizemo inzoga cyanditse amagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru.

Amavide y'icyatsi atatu yegeranye afundikiye arimo inzoga, hejuru y'akameza kariho agatambaro k'umuhondo, hirya hariyo umugabo uhagaze imbere y'abantu bicaye, kuruhande hari umuryango w'umutuku.

Inzu fite amabati akozwe mu biti ameza ndetse n'intebe, ni akabari aho umuntu ashobora kuruhukira, afatira amafunguro, cyangwa se ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ndimo kubona icyapa gifite amabara agiye atandukanye harimo icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, kirikugaragaza ubwoko bw'inzoga buri gusukwa mu kirahure kiri kubonerana.

Ipoto ry'amashanyarazi gegeranye n'icyapa kiri hafi y'umuhanda, gisize ibara ry'icyatsi kiri kwamamaza inzoga ya viruga, gisutswe mu kirahuri n'andi magambo yanditse mu cyongereza cyamamaza.

Ifoto iri kugaragaza ahantu hari abantu benshi cyane habereye ikirori, hakaba hakikijwe n'ibiti, amazu ndetse n'ameza yo kuriraho no kunyweraho ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Urupangu rw'umweru rwafunguwe, rwatanze akayira kajya mu kabari, hejuru hari icyapa kiri mu rurimi rw'icyongereza, kiri kwamamaza inzoga, gifashe ku rukuta runini, rusize ibara ry'umuhondo, umweru n'ikigina.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati y'umweru, wicaranye n'umukobwa uri guseka, wambaye agapira k'umukara hafi y'inkuta zifite amatafari y'ikigina, imbere y'akameza kariho inzoga zitandukanye bari kumwe n'abantu bahagaze bari kubyina.

Iyi foto iri kugaragaza urupapuro rusize ibara ry'iroza aho ruri kwerekana amagambo asize ibara ry'umukara, yerekana ibicuruzwa ndetse n'igicuruzwa ubwacyo.

Ishusho iri kugaragaza akabari kagizwe n'inkuta z'amatafari ahiye y'umutuku akabati karimo inzoga z'amoko atandukanye n'icyuma gikonjesha ibinyobwa n'ibumba ribikwamo indabo zitandukanye

Akabari gafite imiryango ibiri y'ibyuma kafunguwe hejuru yayo hari icyapa gisize ry'umutuku n'umuhondo gishushanyizeho abantu bane bahagaze imbere yaho hari ivide ry'icyatsi n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Imeza ikozwe mu mbaho iri hafi y'intebe yo kwicaramo yashyiweho ibirahure bibiri byasutswemo inzoga, agakarita k'umukara kashyizweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, isahani iriho ibiryo ndetse ibiyiko n'ikanya byashyizwe ku ruhande.

Ishusho iri kugaragaza umuhanda w'amabuye, uri hagati y'ibyapa bibiri, kimwe kigaragaza inzoga ya virunga yasutswe mu kirahure, n'ikindi ku ruhande kigaragaza inyobwa bitandukanye bicuruzwa.

Akabari karimo akabati gashinzwe ku rukuta rusa umukara, gateretsweho inzoga z'amoko atandukanye ndetse n'ibinyobwa, ku ruhande hari icyuma gikonjesha, imbere hari urukarabiro ndetse n'akameza baterekeraho inzoga abakiliya bari buze kunyweraho.

Umuntu uri kugenda mu nzira ku ruhande rw'umuhanda iburyo bwe hari akameza intebe n'umutaka imbere ye hari inzu yegeranye n'imodoka z'amabara atandukanye hafi y'icyapa gisize ibara ry'umutuku kigaragaraza inzoga iri mu ivide y'icyatsi.

Ishusho iri kugaragaza umugabo wageretse akaguru ku kandi wambaye ipantaro ni isogisi ndetse n'inkweto z'umukara. yicaye wenyine mu kabari karimo abantu benshi cyane mu ijoro, amatara acanye ari gutanga urumuri rwinshi.

Ishusho iri kwerekana igikombe kinini kirimo inzoga, kiri imbere y'ameza y'urubaho, kikaba giteganye n'ibinyobwa bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose bikikijwe n'amatara yaka cyane.

Ubusitani bugizwe n'ibyatsi n'ibiti, bwashinzwemo icyapa k'impande enye cyamamaza, gisize ibara ry'umutuku, gishushanijeho abantu bane bahagaze, imbere yabo hari ivide ry'ibara ry'icyatsi ripfundikiye, n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Imodoka iparitse imbere y'icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho amagambo ari m'ururimi rw'icyongereza ndetse na nimero za terefone ishobora guhamagarwa, hashushanyijeho igicupa gipfundikiye k'uruhande rwacyo hari ikirahure cyasutswemo inzoga.

Igipapuro cy'umweru kiriho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'imibare, gikoreshwa mu kabari aho kigaragaza ibiciro bitandukanye by'ibinyobwa umuntu ashobora gukenera.

Ishusho iri kugaragaza akabari kagizwe n'akabati kabikwamo inzoga intebe n'ameza byo kwicaraho nikibambazi gisa ibara ry'ubururu bwijimye.

Ifoto iri kugaragaza abantu babiri bari gukomanya ibirahure hejuru y'ibitambaro bitatu ndetse n'ibiyiko bibiri byashyizwe hamwe ndetse n'ikanya imwe iri kurundi ruhande.

Iyi shusho iri kugaragaza abagore babiri bari kumwenyura aho umwe w'umukiriya akoresheje ikarita kugira ngo yishyure nundi akifashisha imashini yabugenewe kugira ngo ahabwe amafaranga.

Ndi kubona akabari kagizwe n'amatara abiri ari gutanga urumuri rw'umuhondo ndetse n'akabati gakozwe mu nkwi kabikwamo inzoga zitandukanye z'ubwoko bwose.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati uri gutunyanga ikinyobwa mu kabari.

Ishusho iri kugaragaza umugabo wambaye agapira k'umukara n'umutuku mu kabari, uhagaze hafi y'akabati kabikwamo ibinyobwa bitandukanye, afashe ibirahure bibiri birimo inzoga, imbere ye hakaba hari robine ivamo amazi yo gukaraba.

Umugabo ufite agafuka mu ntoki na telefone, wambaye akamambiri uri kwambuka mu umuhanda w'amabuye, hafi y'icyapa cya mpande ye, gisize ibara ry'umutuku cyamamaza inzoga, inyuma yacyo hari imodoka zitandukanye, mo imbere hari umutaka, intebe n'akameza gato.

umusore uhetse igikapu wambaye ishati n'ipantaro ari kugenda munzira afashe igare m'ukuboko kw'iburyo kuruhande hari igapangu gifunguye hejuru hariho icyapa gisize ibara ry'umutuku n'umweru cyamamaza inzoga mw'imbere harimo inzu isize ibara ry'umweru ifite amadirishya

Abagore babiri bahagaze bateganye umwe afite icyuma cyakira gisize ibara ry'umukara ndetse n'undi akaba afite terefone yayeje hejuru yacyo kugira ngo abashe kwishyura, impande hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'amashati yamanitswe.

Iduka ryafunguye riberamo ubucuruzi rigizwe n'inkweto zateretswe mu kabati z'amoko atandukanye n'akameza kakirirwaho abakiriya n'intebe yicaraho, ku ruhande hari amakote y'amabara atandukanye ndetse yamanitswe.

Icyumba cy'inzu kirimo umukobwa uhagaze imbere y'akameza gatereretseho udufuka twinshi twamabara atandukanye harimo umukara ,ubururu ,icunga n'umutuku, impande hari utubati turiho ibikoresho bitandukanye .

Umugabo w'umucuruzi, uhagaze imbere y'akameza gasize ibara ry'umukara kateretseho imyenda, ari kumwe n'umukiriya ufite mudasobwa mu ntoki ze icanye, inyuma hakaba hariho imyenda yamanitswe y'amoko atandukanye.

Korana na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene ukande akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego winjire mu isi nshya y'amafaranga kuko uzoherereza abawe kandi nabo bakoherereze uyabone kuri telefone yawe.

Imodoka iparitse mu gahanda k'amabuye y'ikigina isize ibara ry'umukara irikugurishwa imbere yo kugaragara inzu igeretse ifite ibyuma biri impande yazo ndetse n'inkuta zikoze mu matafari atukura.

Ikizu k'igaraje gifite igisenge gikozwe mu byuma ndetse ririho amatara atanga urumuri rw'umweru rugaragaramo imodoka ebyiri, imwe yateruwe n'indi iri hasi hafi y'ibyuma bishinze.

Ku mugoraba abagabo babiri bahagaze bafite icyapa gisize ibara ry'umweru n'umutuku, imbere hari imudoka y'umukara, inyuma hakaba hari inzu nini irimo ibinyabiziga bitandukanye by'amabara atandukanye ndetse n'icyapa.

Ikamyo nini iparitse, ihetse icyuma gisize irangi ry'umweru, ku ruhande hakaba hari inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahuri by'ubururu ndetse n'inkuta z'umweru, ikaba iparitse ku matafari y'ikigina.

Inzu igeretse ifite inkuta z'umuhondo, amadirishya ndetse n'ibumba ryateretsemo ibyatsi, imbere yayo hakaba hari imodoka ziparitse ndetse n'abantu bafite icyapa mu intoki gizize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru bahagaze.

Inzu igizwe n'inkuta zisize irangi ry'umuhondo, igisenge k'ikigina ndetse n'umuryango uriho ibirahuri byinshi bibonerana, amakaro y'impande enye asize irangi ry'umweru ndetse n'imodoka iparitsemo isize irangi ry'ikigina.

Amafaranga isize ibara ry'ubururu, ishushanyijeho inkende iri kugenda mu byatsi ndetse n'umubare igihumbi kuruhande hariho amagambo ari muru rurimi rw'icyongereza agaragaza ko iyi noti yakozwe mu Rwanda ndetse n'igiciro cyayo.

Uruziga rw'igiceri cy'icyuma gisize ibara ry'umuhondo gishushanyijeho umubare mirongo itanu amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'igisiga cyafunguye amababa uruhande hari amashami y'igiti ariho imbuto.

Inote y'ifaranga yemewe n'amategeko yasohowe na banki nkuru y'u Rwanda ku itariki ya mbere mutarama bibiri na cumi na gatatu yanditseho amafaranga magana atanu ishushanyijeho inka ihagaze hejuru y'ibyatsi.

Ipurete y'icyatsi yateretswemo amagi agiye agerekeranye, imbere y'akameza gasize ibara ry'ubururu, impande hahagaze umusore wambaye agapira gazize ibara ry'icunga, kanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse na nimero za terefone.

Icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, kiriho amagambo Inyange ndetse n'andi ari mu rurimi rw'Icyongereza, munsi ikaba yanditseho nimero za telefone ndetse n'ibicuruzwa biba bishobora kuboneka.

Intebe z'imbaho zitambitse zicayeho abagororwa babagabo, ndetse n'ababadamu. Hari abambaye impuzankano z'amapantalo aranga imfungwa ndetse hari n'abaturage bahagaze aho hafi benshi.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi rifite igisenge gikozwe mu mbaho, icyapa gisize ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru kiriho amagambo Nyanza gishushanyijeho inka ndetse n'ibicuruzwa by'amoko atandukanye biri mu tujerekani n'udukarito.

Akabati gakozwe mu cyuma, kateretswe ho urujerekani twinshi turimo amata, ndetse n'utukombe dupfundikiye turimo ibinyobwa, hejuru y'utuseke tubiri tw'ubururu turimo amacupa y'iroza hafi y'ingunguru z'ibyuma.

Umugore wambaye agashati n'ikoboyi uhagaze mu nzu ye ku makaro, ufite ijage mu ntoki irimo amata ari kuvana mu kidobo kinini, imbere ye hari akameza k'imbaho kariho ikaye, ku nkuta yamanitseho indorerwamo.

Ndimo kubona abacuruzi babiri, imbere yaho hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, kigaragaza ubucuruzi bw'amata y'inyange.

Inzu y'ubucuruzi ifite urukuta ruriho ibara ry'umweru n'ubururu rushushanyijeho ishusho y'inka rwashinzweho akabati k'imbaho hejuru hari uduseke tubiri no hasi hari uducupa icumi tw'amazi turi kumwe n'umufuka umwe.

Icyapa gisize ibara ry'ubururu cyanditsweho amagambo Inyange nandi y'icyongereza hejuru y'iduka ryafunguye imiryango ikozwe mu cyuma mwimbere harimo icyuma gikonjesha ibinyobwa bitandukanye ndetse n'akabati gasize ibara ry'umweru kashyizwe hafi y'inkuta.

Ndimo kubona ikigega kiniini kibikwamo amata y'uruganda rwa Mukamira kikaba kiri hagati y'ibicuruzwa by'amazi ndetse n'iby'imitobe iri mu cyuma gikonjesha ibinyobwa.

Inzu nini ifite amatara abiri, rimwe ricanye n'irindi ridacanye ndetse n'umuntu ufite igikombe mu ntoki uri kuvoma amata mu kigega kinini kibikwamo amata yo kunywa n'akabati kabikwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Iduka ryafunguwe rigizwe n'akabati gakozwe mu mbaho n'ikirahure kateretswemo udukombe dupfunduye tw'amabara atandukanye n'udukarito hejuru yaho hariho icyapa cy'iroza cyanditswe mu magambo y'icyongereza gishushanyijeho ibicuruzwa bitandukanye.

Ndimo ndabona umutsima ushunnyeho ndetse n'igikombe kirimo amata giteretse ku k'ameza kariho ikaramu ifite ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru uhagaze ufite ijage mu ntoki iri gusuka amata mu yindi, imbere hari idirishya risize ibara ry'ubururu n'igicupa cyamazwemo umutobe imbere y'akameza.

Inzu y'ubucuruzi irimo ikigega cy'uruziga gisize ibara ry'umweru n'ubururu kirimo amata ku ruhande hari akabati kateretsweho udukarito twinshi ndetse n'ibicupa by'amazi inyuma hari umuryango w'ibyuma n'ibirahure.

Icyapa cya mande enye cyimanitswe cyigaragza izina ry'iduka n'ibicuruzwa gicuruza harimo amata n'umutobe n'ibindi byinshi, inyuma yaho hakaba ari aho kwinjirira muri iyo nzu kugirango ubashe kubona ibyo bicuruzwa muri rusange.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi yafunguwe irimo umugabo wambaye ishti n'ipantalo wicaye ku gatebe ukuboko kw'ibimoso gufashe akajerekani gapfundikiye ukw'iburyo kuri kuvungura ikigega kirimo amata mu ijage, inyuma ye hari akabati gaterekwaho ibicuruzwa.

Umuryango wafunguwe mu iduka ukozwe mu cyuma usize ibara ry'ubururu, ukaba ushushanyijeho inka, amagambo Nyanza n'andi y'icyongereza. Kuruhande hari urukuta rw'amatafari atukura ageretsweho n'utujerekani dutatu tugeretse tw'umweru.

umucucuruzi uhagaze hafi ya meza yateretsweho amagi, iseri y'imineke, indobo ebyiri imwe irimo amandazi indi irimo capati kuruhande hari isahani ndetse n'uduti duhanaguzwa mu menyo hafi y'umuryango ukozwe mu byuma ndetse n'ibirahure.

Icyuma gikonjesha ibinyobwa n'ibindi, kegereye urukuta rw'amatafari atukura n'amajerekani y'umweru agerekeranye kibikwamo amata, ibikombe ndetse n'amajage akareshwa kugira ngo hasukwe amata.

Akameza kariho igitambaro kinini k'ikigina kateretsweho udukarito turindwi tw'ikivuguto ku ruhande hari udukombe tw'amabara menshi dupfundikiye hirya hari utujerekani turimo amata y'inshyushyu.

Umugabo wambaye umupira w'umukara uhagaze afite icyuma mu ntoki kirimo amata ari gusuka mu kigega kiyakonjesha kugirango acuruzwe, ku ruhande hari ikibambasi gisize ibara ry'umuhondo kigaragara neza.

Iduka ririmo umucuruzi uri hafi y'indobo y'ubururu, ndetse n'ikigega kibikwamo amata, wakiriye umukiriya ufite telefone mu kuboko kw'iburyo kwe, ahagaze hafi y'akameza kateretsweho ijage, imbere y'akabati kabikwaho ibikoresho bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo akabati gakozwe mu mbaho, kateretsweho ikaramu n'indobo ebyiri zipfundikiye, imwe irimo amandazi menshi, ku ruhande hari ikijerekani cy'amazi ndetse n'umuryango ukozwe mu byuma ufite ibara ry'ubururu, werekeza ku muhanda wa kaburimbo.

Ndabona irindazi riri kw'isahani ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku urimo uturabyo dusa umuhondo ndetse n'iroza, byose biri ku meza.

Umukobwa uri mu nzu wambaye umupira w'umweru n'agakabutura k'iroza ufashe telefone mu ntoki ahagaze ku ruhande rwe hari intebe n'ameza ariho igitabo gisize ibara ry'ubururu n'urugi rufunguye.

Aha ndi kubona ibigega bibiri kimwe gitoya ndetse n'ikindi kinini biri munzu ifite amadirishya y'icyatsi ikibambasi cy'umweru ndetse n'amakaro y'umweru.

Akazu k'icyuma kafunzwe ningufuri ebyiri kari hanze y'inzu ikorerwamo yubucuruzi hafi y'inkuta z'amatafari atukura kabitswemo ibijerekani bitandatu bibika amazi bipfundikishijwe n'imifuniko y'umweru hafi y'umuryango.

Agatambaro ko kwihanaguza kari mu gaseke gasize ibara ry'ubururu, kegereye inkoni ebyiri z'ibyuma, zishinzwemo imisumari, n'igikoresho kigaragaza imibare mu ibara ry'umutuku, byateretswe hejuru y'akameza k'ikigina.

Inzu y'ubucuruzi yafunguje imiryango ibiri y'ibyuma ishushanyijeho inka, agakarito, akajerekani ndetse n'udukombe dupfundikiye, imbere harimo akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'icyuma gikonjesha ibinyobwa.

Agatambaro k'umweru gakorwa mu nganda bihanagurisha intoki, kari mu gatebo k'ikigina kateretswe hejuru y'ikigega gifunze kibikwamo amata gisize irangi ry'umweru n'ubururu, kuhande rw'urukuta rw'amatafari atukura ndetse n'akabati kabitsweho amajerereka abiri y'umweru

Icyapa cy'umweru cy'impande enye kiriho amagambo inyange ndetse n'igishushanyo cy'igisiga, byashyizwe hejuru y'akaduka kafunguye umuryango kari hafi y'ameza n'intebe byo kwicaramo ndetse n'urukarabiro.

Umukobwa wicaye ku ntebe imbere ye hariho akameza ufite telefone mu ntoki inyuma ye hari akabati k'imbaho gateratseho imitobe itandukanye n'amazi n'ikigega kibikwamo amata ku ruhande hari icyuma gikonjesha.

Amazi y'ikiziba ari ku makaro ari gusunikishwa umukoropesho, hafi y'umuryango w'inzu wafunguye inzugi, kuruhande hari igare ndetse n'ikinyabiziga kiri ku muhanda w'igitaka cyaparitswe, gihehetsweho ikigega kirimo amata.

Inzu y'ubucuruzi ifite amakaro ateretsweho udutebe tubiri two kwicaraho, n'akameza k'impande enye, kari hafi y'urukuta ruriho ishashi y'ubururu ishushanyije utujerekani dutatu, n'akapapuro kariho izina ry'umucuruzi na nimero akoresha za telefone.

Y'ubucuruzi ifite inkuta z'ubururu ishushanyijweho inka imbere hari akabati kabitswemo amajerekani atatu y'umweru, amagi n'amazi ku ruhande intebe ebyiri n'imeza imwe n'igega kibikwamo amata yo kunywa.

Imeza isize irangi ry'umukara yateretsweho amasahani atatu arimo ibiryo, ishashi irimo udutambaro twinshi two kwihanaguza intoki no ku munwa, ndetse n'ikirahure kirimo amata y'ifu, ku ruhande hicaye abantu babiri bateganye.

Ishusho ebyiri zatandukanyijwe imwe iriho umugabo wambaye agapira n'agakabutura, wegereye akameza k'icyuma kateretsweho ijagi iri gusukwamo amata n'akajerekani hafi y'umuryango n'indi yerekana amashami y'igiti ari hafi y'icyondo.

Akabati gakozwe mu mbaho kashyizweho igishashi kinini cy'ubururu, gateretsemo amajerekani abiri manini y'umweru, hafi y'urukuta rw'amatafari y'umutuku ahiye, hejuru hari urutsinga, mu nzu ikorerwamo ubucuruzi.

Umukobwa uhagaze, wambaye ingofero n'umupira, hafi y'idirishya, ufashe ijage mu ntoki, ari gusukisha amata ayashyira mu kajerekani k'umweru, hejuru y'akameza k'imbaho, hafi y'ikigega kibikwamo amata.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi igizwe n'akabati gakozwe mu mbaho n'ikirahure katetswemo capati amagi n'agafuka k'ikigina, kuru ruhande hari indobo iriruhande rw'ikigega kinini kibikwamo amata akonje n'urukuta.

Agatambaro k'umweru kakozwe mu ruganda ko kwihanaguza kari mu ishashi gateretse mugatebo k'ikigina hejuru yameza akozwe mu mbaho imbere hari ikigega gisize ibara ry'ubururu n'umeru kibikwamo amata kuruhande hari intebe zo kwicaraho n'ameza yo kuriraho

Ndimo kubona umusore uhagaze, uri ahantu ho kurira, wambaye ishati ndetse n'ipantaro, akaba ari kureba umuntu ategereje uri butunguke ahantu hari irido.

Umugabo ufite agafuka mu ntoki, ndetse n'abana babiri bahagaze, begereye igicupa kinywererwamo amazi bategereje, guhabwa serivise n'umukobwa wicaye ku ntebe, n'ameza asa ibara ry'ubururu, hirya y'ikigega kivomerwamo amata yo kunywa.

Akagega k'urukarabiro, kegereye ikinyabiziga cy'amapine abiri, giparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi, yafunguye imiryango, hajuru yayo hari icyapa gisize ibara ry'ubururu, gishushanyijeho utujerekani, udukarito, ndetse n'inka.

Inzu y'ubucuruzi irimo amakaro ari munsi y'ikigega kizengurutse, gisize irange ry'ubururu n'umweru gukonjesha amata ku ruhande hari urukuta rw'amatafari atukura ndetse n'akameza akozwe mu mbaho, n'agatebe ko kwicaraho.

Igikuta cy'amatafari atukura, ageretse, cyegerejwe n'icyuma gikonjesha ibinyobwa bitandukanye, kirimo ijage imwe gusa y'icyatsi, yegeranye n'amajerekane atanu y'umweru, ari ku ruhande rw'umuryango wakinguwe mu iduka.

Umukobwa wambaye agapira n'ipantaro uri kugenda hafi y'imodoka y'umweru iparitse imbere y'inzu y'amatafari atukura y'ubucuruzi. Ifite ibyapa bitatu by'amabara y'icyatsi, ubururu n'umutuku, gafunguje miryango itatu y'amaduka.

Umukobwa uhagaze wambaye ishati y'umukara ufite ikijerekani cy'umuhondo kirimo amata, ari gusukwa mu bikombe by'ibirahure hejuru y'udusahane tw'umweru kukameza, inyuma hari akabati gashinzwe kugikuta k'ikibaho ndetse n'itaburiya ihamanitswe.

Iduka ririmo umugore uhagaze ufite agakapu ndetse n'amafaranga mu ntoki hafi y'akameza gakozwe mu mbaho ndetse n'ikirahure, inyuma ye hari icyuma gikonjesha, ku ruhande hari ikgega kibika amata, imbere ye hari imeza n'udutebe two kwicaraho.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Tunga iri kwerekana ishusho y'umweru, ishushanyijeho ikirango gisize amabara atandukanye, amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, amatariki agize umwaka, imibare ndetse n'amafaranga yishyuwe na sinyatire.

Umugabo uhagaze wambaye ishati afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo kwe uri kwandikisha imibare ku cyapa gisa ibara ry'umutuku n'umweru, rishushanyijeho amadarapo menshi y'ibihugu bitandukanye, ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ku ruhande hari n'izindi.

Ishusho y'umuhondo yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hasi yaho hariho itariki ya makumyabiri n'ebyiri, ukuboza, bibiri na makumyabiri na gatatu, ndetse n'amadarapo y'ibihugu bitandukanye, ku ruhande hari imibare iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ikiganza cy'umuntu wambaye ishati uri kubara amafaranga mu ntoki ze y'inoti impande ye hariho agakoresho gakoreshwa mu kubara, ndetse n'ikaramu y'ubururu hejuru y'ameza hari impapuro iriho imibare runaka.

Icyapa cy'impande enye, gisize ibara ry'umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'umutuku, kikaba cyanyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'lcyongereza ndetse gishushanyijeho amafaranga y'ubwoko butandukanye, cyamanitswe imbere y'iduka ricuruza ibijyanye n'amafaranga.

Igorofa rya mbere y'inzu nini ifite iduka ryafunguye umuryango ritanga serivisi zo gucuruza amafaranga imbere kabaraza hariho icyapa gisiranye ry'ubururu ndetse hejuru yayo hariho nimero za telefone ku cyapa gisize irange ry'umweru.

Inzu y'amagorofa menshi yateretsweho camera zicunga umutekano, ikaba ifite icyapa cyateretswe ku ruhande gisize irangi ry'umweru, ubururu n'icyatsi, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za terefone ebyiri zishobora guhamagarwa.

Inzu yafunguye imiryango, ifite inkuta zanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, impande yayo hari imibare isize irangi ryumutuku ndetse n'ibyapa byanditseho amazina y'ibihugu ndetse n'amafaranga ashobora kuboneka.

Icyuma cyateretsweho ibyapa byinshi by'amabara atandukanye harimo umutuku ,ubururu, umuhondo ndetse n'umukara bikaba bishushanyijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za terefone zishobora guhamagarwa ,n'amadarapo y'ibihugu ashushanyijeho.

Icyapa cy'impandeenye, kigizwe n'ibara ry'ubururu, umweru, ndetse n'umutuku, cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse na nimero za telefone ebyiri zishobora guhamagarwa, cyateretswe ku nkuta y'inzu y'amagorofa menshi, igizwe n'ibirahure, ndetse munsi hakaba hariho amaduka menshi.

Inzu igizwe n'amakaro asize ibara ry'umweru y'impande enye byateretsweho imeza ndetse n'intebe zo kwicaraho bikozwe mu biti impande yazo hariho igitambaro gisize ibara ry'iroza ndetse n'intebe zikoze mu bivumu.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta z'ubururu cyatereretswemo akabati gakozwe mu mbaho, karimo imyanya yo kubikwamo ndetse n'intebe zo kwicaramo zikozwe mu bifufuma, impande hariyo n'intebe ikozwe mu mbaho.

Akumba karimo akameza gasize ibara ry'umukara kateretseho ibirahuri bibiri, amacupa abiri arimo amazi ndetse n'udufuka duto tw'icyatsi n'umuhondo tuba turimo ikawa, ku ruhande rw'ako hariho utuyiko two gukoresha.

Icyumba k'inzu kigizwe n'ibara ry'umweru, gifite urukuta rumwe rwashyizweho televiziyo, urundi rusize ibara ry'ikigina ruri hafi y'akabati gasize ibara ry'umutuku impande ya rido y'ikigina ndetse n'intebe zo kwicaraho zikozwe mu bifufumo.

Akabaraza ka hoteri kashyizwemo intebe nyinshi zikozwe mu biti bisize irangi ry'umukara zegereye akameza gakozwe mu kirahure kateretsweho ibikombe byinshi ndetse n'udutambaro dusize irangi ry'umuhondo biri munsi yumutaka.

Inzu y'amagorofa abiri ifite amabati y'amategura, ikaba ifite inkuta z'amatafari ahiye ndetse n'imirongo isize ibara ry'ubururu iyikikije, ku ruhande hariho imodoka ebyiri ziparitse imwe y'ibara ry'ikigina ndetse n'indi y'umukara.

Umugabo uhagaze wambaye ishati n'ikoti uri imbere ya mudasobwa ye iteretswe ku k'ameza kakirirwaho abakiriya hejuru ye hari amatara atandatu ari gutanga urumuri rw'umuhondo hafi y'icyuma kizamura abantu mu nzu igeretse.

Inzu nini y'mpande enye, yamagorofa atanu, yashyizweho ibirahuri binini by'ubururu, ndetse igizwe n'inkuta zisize irangi ry'muhondo, ryaashyizweho ikimenyetso cy'umutuku, rikaba kikijwe n'ibiti binini ndetse na pasiparume, impande y'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu iberamo inama irimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe imbere hakaba hari ameza ateretsweho amazi, terefone ndetse n'ibipapuro, kuruhande hakaba hari ibyapa biri hafi y'urukuta.

Inzzu igizwe n'inkuta zisize ibara ry'umutuku ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza amadirishya n'imiryango ibonerana, imbere yayo hariho imyanya yabugenewe yo guparika amamodoka mu gicamunsi.

Abantu ba biri bahagaze mu kumba kagizwe n'igisenge cy'umweru hashyizwemo amatara imbere yaho hari ibirahuri byicayewemo n'abakozi bakora muri banki bari kubakira impande yabo hariho ibyapa bisize ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi.

Inzu igizwe n'amagorofa abiri irya mbere rifite iduka iyo icyapa gisize irangi ry'ubururu umuhondo ndetse n'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hejuru yaho hariho umuryango ukozwe mu ibirahuri.

Icyumba k'inzu kigizwe n'igisenge cyashyizwemo amatara atatu ari gutanga urumuri, inkuta zisize irangi ry'umutuku ndetse n'umweru zateretsweho amafoto agiye atandukanye y'abantu batatu, intebe zo kwicaraho ndetse n'akamezaza ko kwakiriraho abakiriya.

Icyumba k'inzu gifite amakaro gifite imiryango yafunguwe ishushanyijeho igisiga ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ku ruhande hari ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho zisize ibara ry'ubururu.

Imodoka iri ahantu kuruhande muri kaburimbo, ihagaze amafaranga miliyoni cumi n'eshanu, ikaba ari iyo muri bibiri na cumi n'icyenda.

Icyumba kigizwe n'igisenge cy'umweru cyashyizweho amatara ane ndetse na televiziyo enye zicanye zanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igishushanyo kinini gisize ibara ry'icyatsi.

Ishusho yasizweho amagambo ari mu rurimi y'icyongereza impande y'umuryango usize ibara ry'icyatsi uhagazwemo n'umugore wambaye ipantalo, ishati ,n'ingofero inyuma hari inzu y'amagorofa ane ifite amadirishya n'urupangu ndetse n'ikimodoka gikoreshwa mu kubaka amazu.

Umukozi wo muri banki ahagaze aha kirirwa aba kiriya, afite ikayi irimo impapuro nyinshi mbere ye hari abakiriya ndetse impande zose hicayeho abantu ndetse n'abandi bahagaze bategereje serivisi.

Umugabo wazamuye amaboko yombi yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara, ahagaze impande y'imodoka isize irange ry'ikigina yicayemo n'umugore ufashe kuri vola, inyuma hari kugaragaraho amagambo ya banki y'Afurika ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati wayitunga nawe.

Umugabo wishimye wazamuye akaboko ke k'iburyo, wambaye ikote ry'ubururu, yicaye imbere y'akameza kariho itasi, mudasobwa, afite urupapuro mu ntoki rwe rw'umweru, ahagana hejuru handitseho turi kumwe, bona angana inshuro ebyiri z'umushahara wawe mu masaha makumyabiri n'ane.

Umugore ndetse n'umugabo bahagaze imbere y'akameza kariho imyenda bari gupanga igiye itandukanye ndetse n'ingofero, amavuta, ku ruhande akaba ariho n'ibikapu binini byamanitswe kugira ngo bicuruzwe ndetse n'amakabutura.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye igitenge cy'amabara y'iroza ndetse n'umuhondo, yegereye akameza kateretsweho ipapayi, ironji, ikinyomoro, ibitunguru, ibihaza, inanasi, ndetse n'imineke.

Agahanda kari kugendwaho n'ibinyabiziga byinshi birimo: moto n'imodoka ndetse n'ibikamyo, kari hafi y'inzu zigeretse ndetse n'izindi ziri gukorerwamo ubucuruzi busanzwe, hafi yaho hariho amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Inzu y'amagorofa ane, ifite ibirahure byinshi, bishushanyijeho umugore n'umwana ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, imbere yaho hari imodoka z'umweru n'umuhondo ziparitse, abantu bari gutambuka impande zayo ndetse hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Isoko rinini riri kuberamo ubucuruzi ririmo umuhungu wicaye ku gatebe wambaye ikoti ry'umukara afashe telefone mu ntoki ze ndetse ku ruhande rw'iburyo bwe hariho imyenda myinshi yanitse y'amabara atandukanye n'inyuma haka abacuruzi benshi bari gukora iki gikorwa.

Umucuruzi uhagaze mu isoko rinini ritwikiwe n'amabati ndetse bishizwemo n'ibisenge by'ibyuma impande ye hariho imineke ndetse n'izindi mbuto z'ubwoko butandukanye ari kwakira umukiriya uri iruhande rwe.

Umugabo ndetse n'abagore babiri bicaye mu isoko rinini, impande yabo hariho akabati kateretsweho imyenda yazingazinzwe y'amabara atandukanye, ndetse n'iyindi imbere yabo yashyizweho amapantaro y'ibara ritandukanye.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru, ufite agaseke mu kuboko kw'iburyo bwe kari gukorwamo n'umugore wambaye agapira k'ubururu, uhagaze ndetse impande akaba ariho mudasobwa n'igikapu byateretswe ku meza ikozwe mu mbaho isize ibara ry'umukara.

Umuhungu n'umukobwa batanga serivisi z'itumanaho bahagaze mu kazu gasize irangi ry'umuhondo kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse byakinguye amadirishya atatu bari kwakira umugabo wambaye ikote ry'ubururu uri kureba ku ruhande.

Umugabo wambaye amadarubindi, agashati n'umupira ahagaze imbere ya moto iparitse; inyuma ye hari icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umuhondo cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza; kikaba gishushanyijeho imodoka isize irangi ry'umukara.

Akapa gasize ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo momo ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza rikaba ryanditsweho umucuruzi ndetse n'imibare ishyirwa muri telefoni kugira ngo hishyurwe ariyo karindwi umunani icyenda zeru kabiri zeru.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Ikiganza cy'umuntu gifashe telefone iri kugaragaza ishusho y'ikigina iriho amagambo ishyura magana atanu ukoresheje inite kabiri momo, zeru gusubira inyuma, ndetse kaba ari saa kumi n'ebyiri n'iminota itanu.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Agakarita kamanitswe, gasize ibara ry'umuhondo, gakozwe mu ishusho y'igi, kariho amagambo asize ibara ry'umuhondo, ari kugaragaza uburyo bwo kwishyura momo, n'imibare ishyirwa muri telefone kugira ngo hishyurwe, kandi nta mafaranga yandi yishyuzwa.

Ndi kubona akazu gatoya, gafite ibara ry'umuhondo. Gakikijwe n'abantu barindwi, bategereje guhabwa serivise n'umukozi ushinzwe kubika no kubikuza amafaranga kuri telefone.

Ndimo ndabona akazu gatoya gasize ibara ry'umuhondo kashyizweho amagambo umuntu ashobora kuri terefone kugira ngo ahabwe amafaranga kuri mo kashi binyuriye kuri terefone.

Abagabo bariri bari kubyina hafi y'icyuma kirangurura amajwi ndetse n'umugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite mikoro ugiye kuyitereka ku kameza kariho agatambaro gafite ibara ry'umuhondo.

Ndabona umukozi wa MTN ufite ikaramu mu ntoki, uri kwakira umukiriya, mu kazu gafite ibara ry'umuhondo, kagizwe n'amadirishya atatu. Afunguye.

Ndimo ndabona abagabo batatu, aho uwambaye umupira w'uburur arimo arakirwa n'umukozi wa emutiyrne ndetse n'abandi, babiri bategereje ko bamurangiriza serivise nabo bagakurikiraho.

Akumba k'inzu karimo abakozi babiri bakora mu by'itumanaho ritanga serivise za momo bambaye udupira dusa tw'umuhondo, ishushanyijeho telefone n'ikirango imbere yaho hari mudasobwa iri kukameza k'icyigina bari kwakira umukiriya.

Ishusho iri kwerekana umugore uhagaze uteganye n'umugabo ufite telefone mu ntoki bakaba begeranye icyapa cyanditseho amagambo momo nyabo na kode ushyirwa muri telefone kugira ngo ubashe kubona serivise.

Iki cyapa gifite ibara ry'umuhondo, kigaragaza uburyo umukiriya ashobora kwishyura umucuruzi akoresheje momo kuri telefoni, ndetse n'imibare ashobora gukanda, kugira ngo abashe kwishyura serivisi cyangwa se ibicuruzwa runaka.

Akapa k'impande enye k'umuhondo, kariho amagambo y'uburyo bwo gukoresha momo izina ry'umucuruzi ndetse n'imibare ukanda muri telefone kugira ngo wishyure, kazirikishijwe ishashi, ku cyuma gikojesha cy'umweru.

Akapa gahagaze k'impande enye gasize ibara ry'umuhondo kari kugaragaza ko Momo yemewe gukoreshwa n'izina ryashyizweho ry'umucuruzi na numero ikoreshwa ngo hishyurwe amafaranga y'ibicuruzwa yaguze.

Abagabo bane bahagaze imbere y'akadirishya k'inzu gasize ibara ry'umuhondo n'ubururu, gashushanyijweho telefone ebyiri, ndetse kakaba kegeranye n'icyapa, cyanditseho amagambo kanda imibare runaka winjire mu isi nshya y'mafaranga.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kwakirwa numukozi ukora mu by'itumanaho mu Rwanda, uri mu kazu gasize ibara ry'umuhondo gashushanyijeho terefone n'amadirishya abiri akinguye.

Abantu batatu bahagaze mu muhanda w'igitaka begeye akazu gasize bara ry'umuhondo, gafunguye amadirishya abiri kanditsweho amagamboari mu rurim rw'icyongereza

Umumotari waparitse ikinyabiziga cye cyibizeru bibiri, uri gushyirirwamo amavuta n'umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'icyatsi, hejuru ye hariyo agakarita ko kwishyiriraho hakoreshejwe Momo, kariho imibare runaka.

=Iyi foto iri kugaragaza umuntu ufashe terefonie mu ntoki ze arimo kwitegereza ubutumwa yahawe bw'imibare y'ibanga ashobora kwandika muri terefone ye akaba ahetse n'agakapu k'umukara.

Umuntu uhagaze ufite ipensi mu ntoki ze z'ibumoso, n'icyapa cyateretswe ku cyuma, gisize ibara ry'umuhondo, umweru n'ubururu, gishushanyijeho telefone n'imibare ukanda muri terefone kugira ngo ubashe kwishyura ukoresheje MoMo.

Iyi foto iri kugaragaza akazu gasize ibara ry'umuhondo hegereye igiti, gafunguye amadirishya atatu karimo abakozi bakora mu iby'itumanaho bari kwakira abakiriya babagana kugira ngo babafashe muri serivise za interineti harimo umumama.

Abagabo babiri mu nzira umwe ufite telefone mu ntoki ze n'undi uhagararanye n'igare rye kuruhande rw'icyapa kinini kiriho ibara ry'umuhondo n'umukara kiriho amagambo yo gukurikiza amabwiriza ajyanye no gukoresha momo.

Ndimo kubona inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'umuhondo, ifite icyapa hejuru ku gisenge, kiri kwamamaza telefone, kikaba gifite abakozi bacyo bari kuzicuruza.

Ndabona umugabo ufite igitabo mu biganza bye afatishije amaboko yombi ndetse n'umukozi wa emutiyene wambaye agapira k'umuhondo ufite terefone mu ntoki uri kumuha serivise.

Urupapuro rw'umukara n'umuhondo rushushanyijeho telefone eshatu ruri mu magambo yamamaza ari mu kinyarwanda, imibare ukanda muri telefone ku buryo ushobora kuryoherwa n'inyongera ya interinete ku isosiyete ikora mu by'itumanaho mu Rwanda.

Ishusho iri kwerekana icyapa cyashyizwe ku gikuta, gikoresheje imisumari, aho kigaragaza uburyo bwo kwishyura kuri momo, izina ry'ubucuruzi, ndetse n'imibare yashyizweho kugira ngo byorohere umukiriya.

Umugore uri kwandika mu gitabo akoresheje ikaramu ukora muri serivisi zijyanye n' itumanaho ari kwakira umukiriya we mu kazu gasize ibara ry' umuhondo kapfunduwe amadirishya atatu hafi y' urukuta rurerure rw' ikigina ndetse n' igiti kinni.

Akabati gakozwe mumbaho kashyizweho karoti, intoryi ndetse n'ibindi bicuruzwa Kari hafi y'icyapa gisize ibara ry'umuhondo n'umweru kiriho amagambo agaragaza imibare ishyirwa muri telefone kugira ngo umuntu abashe kwishyura akoresheje momo.

Umusore wicaye hafi y'ameza wambaye agapira k'umweru n'agakapu k'umukara, afite telefoni mu ntoki garagaza uburyo bwo kwishura akoresheje momo, n'imibare akanda kugira ngo abashe guhabwa iyo serivise mu buryo bworoshye.

Ishusho ya telefone iri kwerekana umuntu uri kwishyura akoresheje momo, handitseho izina Hakuzimana, nimero za telefone ye n'amafaranga agiye kwishyurwa, amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari hejuru y'umurongo utambitse w'umweru.

Icyapa cy'umuhondo n'umweru kiriho amagambo amambo ari mu ibara ry'umukara aharagaza izina ry'umucuruzi n'ibyo akora ndetse n'imibare ukanda muri terefone, kugirango umuntu abashe kwishyura kandi nta yandi mafaranga umuntu ashobora kurenzaho.

Akazu gasize ibara ry'umweru n'umuhondo, kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, kafunguwe amadirishya n'imbere harimo umukozi ukora mu by'itumanaho ritanga serivisi za momo uri kwakira abagabo babiri b'abakiriya.

Akazu k'umuhondo kafunguye amadirishya kanditsweho amagambo muririmi rw'icyongereza y'umukara n'umutuku, mw'imbere harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru. Ku ruhande rwe hariho udukarita twinshi dushushanyijeho terefone n'imibare yo kwishyurwaho.

Akazu k'umuhondo gashushanyijeho ikirango cy'isosiyete ndetse na terefone, handitsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'imibare yandikwa muri terefone, imiryango yakinguwe itatu, harimo umugore ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari ikaye, ku ruhande hariho umukiriya we.

Inkumi yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro ifite mikoro mu kaboko k'iburyo inyuma ye hari icyapa gisize ibara ry'umuhondo n'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza gishushanyijeho umuhungu n'umukobwa wambaye umupira y'ubururu na karavati inyuma hari insina z'ibitoki.

Ndimo ndabona inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, irimo irakorerwamo ubucuruzi, aho abakozi ba MTN, bari kugaragariza ibicuruzwa ku buryo byorohera abakiriya kuba babibona.

Ibiganza bibiri by'umuntu, bifashe telefone mu nkoti, iri kugaragara ishusho y'ikigina, iriho amagambo "Ishyura magana atanu ukoresheje inite, MoMo, gusubira inyuma, saa kumi n'ebyiri n'iminota itanu."

Umusore uhagaze wambaye agapira k'icyatsi, uhagaze imbere y'intebe zo kwicariramo, utegerereje guhabwa serivise n'umukozi ubishinzwe uri mu biro, inyuma ye hakaba hari tereviziyo iriho ishusho ya telefone n'ibara ry'umuhondo.

Ishusho iri kugaragaza abakiriya batatu bahagaze, bategereje guhabwa serivise n'umukozi ubishinzwe mu by'itumanaho, uri mu kazu gasize ibara ry'umuhondo gafite amadirishya abiri akinguye neza kuburyo babasha kumubona.

Akazu gasize ibara ry'umuhondo n'ubururu kafunguye amadirishya abiri gahagazemo umukozi ukora mubyitumanaho ritanga serivise za momo ufashe amakaye abiri imbere ye, inyuma ye hariho akapa kuruhande rwe hari ibyatsi bikikijwe n'igikuta.

Ishusho iri kugaragaza ameza ndetse n'urupapuro ruri munsi y'icyapa gisize umuhondo kiriho imibare umukiriya ashobora kwandika muri terefone kugira ngo yishyure serivise yahawe kuri momo.

Abagabo babiri bahagaze mu muhanda imbere y'imodoka iparitse, umwe wambaye agapira gasa ibara ry'icyatsi n'umuhondo kariho amagambo asobanura uburyo bwo kwishyura ukoresheje momo afite telefone mu ntoki, yakiriye umugabo uri kumusaba serivisi mu gikote cy'umukara.

Icyapa kiri kugaragaza imibare umukiriya ashobora gukanda muri telefone kugira ngo abashe kwishyura umucuruzi wamuhaye serivise ndetse n'amazina akagaragara kugira ngo atibeshya.

Akazu k'umuhondo kafunguwe amadirishya, karimo umukozi ukora mu by'itumanaho ufite ikaramu mu ntoki n'ikaye ari kwandika, ukaboko kw'i bumoso kwe kuri kwakira amafaranga y' umukiriya uhagaze mu muhanda w'igitaka epfo y' ibyatsi.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara wicaye ku ntebe, uri kwitegereza abantu benshi bari imbere ye bahagaze, ku ruhande hari igitambaro gisize ibara ry'umuhondo, hakurya hari ibiti n'ibyatsi bihateretse.

Ishusho iri kwerekana abagabo babiri bahagaze mu muhanda, umwe wambaye agapira k'umutuku n'amadarubindi, wegereye umugabo ukora mu by'itumanaho, ufite terefone uri kumuha serivisi munsi y'umutaka ugusa ibara ry'umuhondo, uriho amagambo n'imibare.

Icyapa gisize ibara ry'umuhondo kigaragaza uruziga ruri hejuru rwerekana ingofero amayinite y'igihumbi imigozi ikoreshwa kugira ngo terefone zibone umuriro udukomo, interinete amasengeri n'amakarita y'umweru.

Iyi foto iri kugaragaza umugabo ukora muri serivisi y'iby'itumanaho mu Rwanda, uri mu biro bye, akaba ari kwakira umukiriya waje umugana kugira ngo ashobore guhabwa serivisi.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro uri imbere y'akazu gasize ibara ry'umuhondo karimo umukozi ukora muby'itumanaho uri kwitegereza telefone, inyuma ye hari amaduka abiri afunguye arimo ibikoresho bitandukanye n'imifuka.

Umugore wicaye wambaye ingofero, ufite telefone mu kuboko kw'ibumoso, ukw'ibiryo gufashe ikaramu n'ikarita isize ibara ry'umuhondo n'ubururu, iriho amagambo momo ndetse ni mibare itanu ishyirwa muri telefone, inyuma he hari intebe n'umugore uhetse umwana.

Umugabo uhagararanye n'umukozi ukora mu by'itumanaho, begamiye, akazu gasize ibara ry'umuhondo kakinguye amadirishya, kagaragaza ko serivisi za MoMo wazihasanga, inyuma hari ibiti by'imiyenzi y'ibyatsi mu muhanda w'igitaka urambuye.

Umugore w'umucuruzi uhagaze ufite agakarita mu kuboko kw'ibumoso kariho imibare ari kwereka umukiriya igomba gushyirwa muri terefone kugira ngo hishyurwe, ku ruhande hari icyuma gikonjesha kirimo ibinyobwa bitandukanye, hejuru hariho icyapa.

Ishusho iri kugaragaraza umuntu ufite telefone mu ntoki, uri kwandika imibare, ari kwitegereza ku kapa kamanitswe ku rukukuta, kagaragaza amabwiriza yose arebana no kwishyura hakoreshejwe momo ndetse n'uwo yishyura kugira ngo ashobore guhabwa serivise yasabye.

Ndimo kubona umugabo wambaye umupira w'umukara ufite icyapa mu ntoki ze gifite ibara ry'umuhondo kiriho imibare ushobora gushira kuri telephone kugira ngo ubashe kwishyura udakoresheje amafaranga mu ntoki.

Intoki z'umuntu zifashe akaterefone gato, kariho ishusho iriho amagambi, shyiramo amafaranga, inyuma hari akapa gasize ibara ry'umuhondo kanditse ho amazina y'umucuruzi ndetse n'imibare ushobora gukanda muri terefone kugira ngo wishyure ukoresheje momo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ufite terefone mu ntoki ze ari gufotoresha agakarita gasize ibara ry'umuhondo, kariho imibare ishyirwa muri terefone kugira ngo hishyurwe muri sitasiyo itanga amavuta y'imodoka.

Akazu kashyizwemo ibara ry'umuhondo n'umweru, kacaniwemo itara n'umugabo uhagaze wambaye agapira gaciye, imbere ye hari ikayi ifite impapuro z'umweru, ndetse n'amakaramu, kuruhande hari akadirishya gafunguye ndetse n'ibiti.

Ifoto iri kugaragaza icyapa gisize ibara ry'umuhondo, aho kiri kwerekana izina ry'umucuruzi, ndetse n'imibare ushobora gushyira muri telefone kugira ngo umwishyure, ukoresheje momo. Bitewe n'ibicuruzwa waguze.

Umumotari uhagaze impande y'ikinyabiziga cya mapine abiri gihetse agasanduku kanditseho amagambo safi yavanyemo agafuka gasize ibara ry'umukara agahereza umukiriya we wambaye agapira k'umweru ndetse n'amadarubindi.

Iduka rifite igisenge gikozwe mu mbaho ndetse n'amakaro kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza asize ibara ry'icunga n'ubururu yanditsweho nimero za telefone ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza impande hari ibicuruzwa.

Ishusho y'urubuga rwa inerinete iri kugaragaraho umugabo wambaye ingofero n'umupira by'ubururu uri mu modoka afite agakarito k'impande enye k'ikigina kafashwe mu biganza kariho amagambo isoko rigari, ku muryango hari nimero za telephone.

Umumotari wicaye ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri, ahetse agasanduku gasize ibara ry'icyatsi imbere y'icyapa cyateretswe ku byatsi ndetse n'umuhanda w'amabuye ku ruhande hari kaburimbo yegeranye n'amatafari.

Igikamyo giparitse mu gahanda kariho umurongo w'umweru gisize ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu yanditseho amagambo iposita, impande y'iinzu ikorerwamo ubucuruzi igeretse, ifite imiryango y'ibyuma ndetse n'icyapa kiri hejuru yayo.

Kuri interineti rutumirizwaho ibicuruzwa ku buryo bwihuse ruri mu rurimi rw'icyongereza, rukaba rugaragaraho inyama ziri kumwe n'imboga mu gasahani gasa umweru zigura maganarindwi na keke igura ibihumbi makumyabiri na bitandatu maganatanu.

Ishusho iri kwerekana umugore wambaye ishati y'ubururu ufite terefone mu ntoki ze zombi iriho amagambo y'uburyo umuntu ashobora gutumiza ikintu ku mbuhankoranyambaga vuba vuba.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru, igaragaza urubuga rukorerwa kuri interinete mu Rwanda. N'ibihugu birmo: Ubwongereza, Amerika, Ubudage, Uburusiya, Ubuhinde, Kanada, Ositarariya, Ubufaransa, Ubushinwa, Ndetse n'Ubuhorandi.

Abagabo babiri bambaye amadarubindi bafashe kasike ziriho nimero za telefone umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ahabwe serivise yo gutwarwa aho ari ho hose mu buryo bwiza, mu buryo umuntu ashobora kumubona byoroshye.

Ishusho iri kugaragaza umugabo wambaye agapfukamunwa, utegereje guhabwa ikintu cyazanwe n'umumotari, uri gufungura agasanduku gasize ibara ry'umutuku kugira ngo abashe guhabwa ibyo yazaniwe.

Ibicuruzwa umuntu ashobora gutumiza kuri interinete mu buryo bworoshye harimo; telefone, mudasobwa, intebe, imyenda y'abagabo niy'abagore, ibikinisho by'abana, televiziyo n'ibindi bicuruzwa.

Ndimo ndabona platifomu iri mu rurimi rw'icyongereza, iri kugaragaza ibicuruzwa birimo imineke ndetse n'ibirayi, aho umukiriya ubishaka wese yabibonera mu buryo bworoshye kuri internet.

Nimero zagaragaye kuri iyi shusho zishobora gukoreshwa mu gutumiza ikinti icyo ari cyo cyose ku mbugankoranyambaga zikorerwa kuri interinete aho umuntu yaba ari hose ikaba ishobora kumugemurira mu buryo bworoshye.

Umumotari uri kugendera ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri mu muhanda wa kaburimbo inyuma ye ahetse agasanduku gafunze n'ingufuri kariho amagambo gura ibikoresho by'isuku imibare ishyirwa muri terefone n'urubuga rukoreshwa kuri interinete rwa kasha.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru, iriho amagambo yandikishije umukara, yanditseho iduka rikorera ku mbuga nkoranyambaga kuri Enterinete, aho umuntu ashobora gutumiza ikintu akoresheje telefone muri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Ndimo kubona urubuga rukorerwaho ubucuruzi, ruri kugaragaza ingano y'igicuruzwa n'amafaranga cyatwara kugira ngo umuntu abashe kukigura, aho yaba ari hose.

Iyi foto kugaragaza uburyo telefone ikoreshwa kugira ngo umuntu ukora ku rubuga rutumirizwaho ibicuruzwa kuri internet ashobore kubona umukiriya we watumije ibicuruzwa bye.

Urubuga rwa eterinete ruriho umukobwa wambaye ishati ufite terefone mu intoki ze n'agakarita imbere ye hari amagambo yanditse umweru y'icyongereza n'ikinyarwanda munsi hari terefone k''uruhande hari ikaramu z'ibiti.

Abagabo babiri b'abamotari bahagaze bambaye udushati dusa tw'icyatsi begamije akaboko ku gasanduku k'ikinyabiziga cy'amapine abiri inyuma hari icyapa cy'umweru ndetse n'inzu igeretse ifite urupangu rufite amatafari ahiye.

Ishusho iri kwerekana umumotari urigufungura agasanduku ke yashyize inyuma y'inyabiziga ke yaparitse inyuma y'urupangu hafi y'umuhanda kugira ngo abashe gutanga ibyo umukiriya we yatumije mu buryo bworoshye.

Urubuga rwo kuri enterineti rufite ishusho y'umweru n'ubururu rutangirwaho serivise z'ubutane n'iz'ubukerarugendo, icyemezo cy'uko uri ingaragu no kwemeza ko umuntu ari imfubyi, n'utishoboye warokotse jenocide.

Amagambo yanditse ari mu rurimi rw'icyongereza, inyuma hari umugabo ufite akajaga mu ntoki karimo amata ateretse hejuru yameza asa ikigina n'umwana uri kuruhande wambaye agapira k'umweru.

Ifoto iri kugaragaza igicuruzwa cy'inkweto ndetse n'amafaranga bisaba kugira ngo umuntu abashe kukigurira ku rubuga rwa interineti, aho umuntu ashobora kukibona mu buryo bworoshye, abitumije kuri telefoni.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru, iri kugaragaza igihugu cy'u Rwanda n'ubwongereza aho umuntu ufite imodoka inzu ikibanza kigurishwa ashobora kuvugana n'abakiliya mu masaha makumyabiri n'ane, kuri make bivuganiye na ba nyirabyo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi yafunguwe imiryango hejuru hariyo icyapa k'ibicuruzwa birimo imineke, inyanya, imyembe, karoti, inanasi ndetse n'iindi mbuto hejuru yaho hari nimero za telefone zishobora guhamagarwa.

Ibinyabiziga bitanu biparitse bitwara ibicuruzwa byegeranye n'ibindi icumi byamapine abiri abamotari bicayeho bahetse agakapu gasize ibara ry'umuhondo. Imbere y'inzu y'amagorofa atatu asize ibara ry'ubururu n'umuhondo iriho icyapa cyanditseho amagambo iposita.

Urubuga rwo kuri enterinete rugaragaza ibicuruzwa bishobora kuboneka n'amafaranga bisaba kugira ngo biboneke ruri mu rurimi rw'icyongereza. Harimo , udukombe, gikapu, ndetse na televuzyo yo kureberaho.

Ishusho iri kugaragaza akaboko k'umuntu gafite umufuka uri hejuru y'agasanduku gasize ibara ry'umutuku kariho amagambo yego, na nimero za telefone zishobora guhamagarwa, ku kinyabiziga giparitse gifite amapine abiri.

Iyi foto iri kugaragaza amakamyo ane, asize ibara ry'umweru, aparitse, akaba ahetse kontineri ifite ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo "Twiga".

Urubuga rwa interineti rugaragaza ibicuruzwa byo muri Kigali bigizwe na magambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku rishushanyijeho ipanu iriho amakaroni, inyama ndetse n'amagi bishobora gutumizwa kuri telefone.

Umugabo uhagaze uri guseka wambaye agashati k'icyatsi ufite agafuka mu ntoki karimo casroti, ibitunguru n'amavuta kuruhande hari agasanduku k'itumanaho kariho izina ry'uruganda rw'itumanaho ndetse na nimero akoresha.

Umumotari wambaye agapfukamunwa uhagaze imbere yigipangu cy'ikigina, afite akafuka mu ntoki ze ku ruhande hari ikinyabiziga cye giparitse cyashyizweho agasanduku k'umutuku impande yacyo hari igiti cy'amashami y'icyatsi, hakurya hari umuhanda.

Umumotari wambaye agashati n'ipantaro, wicaye ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri ahetse agasanduku gasize ibara ry'icyatsi kariho amagambo vuba, mu muhanda w'amabuye, hirya hari ubusitani bwegereye igipangu cy'amatafari atukura ndetse n'umweru.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi kuri interinete, ruri kwerekana akameza gakoze mu mbaho gashyirwa mu biro, gifite ububiko butandatu n'inzu y'amagorofa ane, ku ruhande rwaho hariho icyapa kiri mu rurimi rw'icyongereza gisizeho ibara ry'umweru n'umukara.

Ndimo ndabona ikinyamakuru kiri mu rurimi rw'icyongereza cyasohotse muri Nyakanga taliki 2, 2019 kiri kugaragaza uburyo ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda buri kuzamuka ku rwego rwo hejuru.

Abamotari batatu bari kugendera ku bininyabiziga byabo mu muhanda, bambaye imipira y'amaboko maremare isa ibara ry'umutuku, yanditseho yegomoto bakikijwe n'ibiti ndetse n'amazu ari ku ruhande y'aho bari kugendera.

Ishusho kugaragaza umusore wambaye ishati uri kwinjira mu iduka rifunguye, hejuru hari icyapa cyanditseho ihaha na nimero za telefoni zishobora gukoreshwa kugira ngo ubone umucuruzi ukorerwamo cyangwa ugahabwa serivisi zitandukanye.

Abo bamatari bicaye ku binyabiziga byabo biparitse, inyuma yaho hari agasanduku gasize ibara ry'icunga, imbere hari umunda n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo, hari n'igiti ndetse n'inzu isize ibara ry'umweru.

Iyi foto iri kugaragaza ishusho y'igicuruzwa gitunganya ubwoya bwo hejuru yo kumaso, gishobora kuboneka ku mbugankoranyambaga, umuntu akaba yashobora kugitumiza kuri telefone aho yaba ari hose.

Abamotari batanu bicaye ku binyabiziga byabo biparitse, by'amabara y'umutuku n'icyatsi , n'agasanduku kari inyuma yabo gasize ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari icyapa kinini kibakikije n'ibiti muri rusange.

Urukuta rw'inzu ruriho amakaro y'impande enye, rwashyizweho urukarabiro rusize ibara ry'umukara rwegeranye n'ubwiherero, hejuru hari ikirahure kiri kugaragaraho umuntu uhagaze, wambaye ingofero, uri hafi y'umuryango w'inzu.

Inzu ifite inkingi ndetse n'urukuta rusize irangi ry'umweru rufite amadirishya rurimo umugabo wambaye ishati n'pantaro ari kwerekana intebe zo kwicaraho ndetse n'akameza k'uruziga gakozwe kumaho n'impande y'akabati kateretseho ibikoresho bitandukanye.

Inzu y'amagorofa menshi, igizwe n'ibirahure by'ubururu ndetse n'inkuta z'umuhondo, imbere bikaba byasizweho icyapa gisize ibara ry'umweru, kiriho amagambo agaciro, kikaba gishushanyijweho igiti, imbere yaho hari ibyuma biyirinda ndetse n'akazu.

Ishusho iri kugaragara inzu y'amagorofa atanu igizwe n'ibibambasi bisize irangi ry'umweru n'umukara ndetse n'inkuta z'amatafari ahiye mbere yayo hari amagambo ari murimi bw'icyongereza ndetse n'ibihumbi bitatu bigomba kwishyurwa.

Igisenge cy'inzu kigizwe n'amatara menshi ari gutanga urumuri rw'umweru ndetse n'urukuta rusize irangi ry'umuhondo, hagati harimo abantu bari kugenda banyura ku bicuruzwa bitandukanye by'ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya, bari gukandagira hejuru y'amakara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi igizwe n'amakaro, igisenge ndetse n'amatara atanga urumuri rw'umeru, harimo utumeza dutatu dusize ibara ry'umukara n'icunga imbere hahagaze abantu babiri bari kwakirwa n'umucuruzi.

Iduka rigizwe n'igisenge kiriho amatara menshi atanga urumuri rw'umweru, inkuta zisize irangi r'yumuhondo, ndetse n'ibicuruzwa biri mu dupaki dutandukanye, n'ibindi by'ibinyobwa by'amoko atandukanye, birimo inzoga ndetse n'imitobe.

Abantu babiri bahagaze mu nzu y'amakaro, bafashe igikarita kinini cyanditseho izina Mukanzinga, riri buhabwe muriyoni imwe na magana abiri na mirongo itanu y' u Rwanda hafi y'igikuta gisize ibara ry'umuhondo n'akameza kicayeho umugore wambaye igitenge.

Akayira kagizwe n'amatafari y'ikigina gagazwamo n'umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati afite ikarita mu ntoki yanditseho miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itatu y'u Rwanda, ndetse n'umunyamakuru afite icyuma kirangurura amajwi ari kumubaza ibibazo.

Ibiganza by'umuntu bibiri, bifashe urupapuro ruriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse n'ikarita isize irange ry'ubururu n'icyatsi igaragaza amazina y'umuntu, imbere ye hariho mudasobwa iri kugaragaza ishusho.

Icyapa cy'impande enye gikozwe mu cyuma kiriho amagambo simba ndetse n'anda ari mu rurimi rw'icyongereza kikaba gisize irangi ry'ikigina kiri impande y'umuhanda wa kaburimbo ndetse n'akabaraza k'inzu y'amagorofa menshi kaparitsweho imodoka.

Umugabo utwaye akagare k'icyuma mu nzu y'ubucuruzi. Kashyizwemo ibikoresho bitandukanye, impande ye hariyo amashashi y'amabara atandukanye, ndetse n'ibindi biribwa byagiye bibikwa, inyuma ye hari abandi bantu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ishyizweho ibayaba bitandukanye bisize ibara ry'uweru biriho amagambo ari mru rurimi rw'icyongereza ndetse m'ibindi byerekana icyerekezo, iruhamde hari ibicuruzwa bitandukanye by'ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya.

Akabati gasize irangi ry'umukara ndetse n'igitaka cyerurutse cyateretsweho udukarito twinshi turimo imitobe, tukaba dushushanyijeho amabara atandukanye arimo umweru, umutuku, ndetse n'icunga ku ruhande hakaba hariho amavide arimo fanta.

Inzu igizwe n'igisenge cy'inzu cyashyizweho amatara ndetse n'ibyuma akaba igizwe n'amakaro asize ibara ry'ikigina ndetse n'ibicuruzwa byateretswe ku tubati birimo amoko atandukanye yo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi igizwe n'amakaro y'ikigina n'umweru ikaba ifite akabati gasize ibara ry'icyatsi, kateretsweho ibicuruzwa bitandukanye birimo amavuta, ibinyobwa byo kunywa by'amoko atandukanye, amashashi arimo ifu yo guteka ndetse n'impapuro zo kwihanaguza.

Inzu nini y'ubucuruzi igizwe n'amakaro ndetse n'igisenge gisize ibara ry'umuhondo kiriho amatara atanga urumuri rw'umweru mo imbere harimo ibicuruzwa by'ibinyobwa ndetse nibyo kurya byamabara atandukanye.